Telefone nziza umusore arimo arakoresha mu buryo bwikoranabuhanga ahaha ibicuruzwa mu buryo bita onorayini urabona ko yahashye ibicuruzwa byamugezeho arishimye aranezerewe afite akamwenyu ku maso.

Ni umudamu uri kumwe n'akana gatoya useka yishimye; umurwayi uryamye ku gitanda ari kwa muganga, abwirwa ko afite ubwishingizi bw'ubuvuzi,...

Umudamu useka neza ufite umusatsi mwiza, yambaye ishati y'umukara, itaburiya imbere afite icupa ririmo shikarete ari gusuka ahereza umukiriya inyuma ye hari etajeri irimo ibicuruzwa bitandukanye nka ji, amajyane, burosada n'ibindi byinshi bitandukanye.

Umukobwa aricaye arimo gucuruza, araseka arishimye ko yageze ku iterambere. Afite ibintu bitandukanye: inyanya, amagi, utudobo turimo omo, yihangiye imirimo agerageza kwikura mu bukene

Umukobwa ufite amverope mu ntoki ubona ko yishimye. Afite akanyamuneza ari gushimira umukiriya we yambaye ijipo y'umweru agapira k'umukara kagufiya menshi nziza cyane zivanze amabara hirya hari etajeri irimo imyenda.

Umudamu uhagaze mu iduka wambaye ikanzu nziza, afite amafaranga mu ntoki arishimye imbere ye hari ameza ateretseho indobo zirimo amandazi, ku ruhande hari umunzani apimiraho ibiribwa, inyuma ye hari etajeri irimo ibintu byinshi.

Iduka ricururizwamo imyenda myinshi y'amoko atandukanye, tuziko neza mu muzima buri wese akenera kwambara kandi iyo wambaye neza uraberwa cyane.

Etajeri irimo inkweto nyinshi z'ubwoko butandukanye, inzu irimo tapi yumukara, hirya hamanitse amakanzu y'amabara meza, rido igaragaza aho abakiriya bipimira.

Iduka ryiza cyane ricururizwamo imyenda, amaherena, imitako myiza bahuje umugambi babambika.

Ni iduka ricuruza ibintu bya hano iwacu mu Rwanda, etajeri iriho ibintu bitandukanye. Duharanire kwiteza imbere dukoresha amaboko yacu, twirinda ubushomeri bwa hato na hato kugirango twiteze imbere.

Iduka ririmo imyenda itandukanye y'amabara menshi kandi myiza, iramanitse tuzi yuko buri wese akenera umwenda wo kwambara, igihe cyose idufasha kwiteza imbere tuyicuruza kugira ngo tubashe kwinjiza amafaranga.

Ameza ateretse hasi y'ikirahure, hejuru hariho imvaho, agacupa k'amazi y'Inyange, imbere yaho hari imodoka yo mu bwoko bwa dayihatsu iparitse, hagati harimo inkingi

Imodoka nziza cyane y'umukara ibereye ijisho kandi igezweho umuntu uhagaze arimo kuyitegereza areba ko yabasha kuyigura yambaye ishati y'amaboko maremare ingofero araberewe.

Abantu batatu bahagaze bishimiye, umudamu uri hagati yabo wambaye inkweto z'umweru ishati y'amabara avanze afite urufunguzo rw'imodoka bigaragara ko ari impano bamuhaye agiye kuyikoresha yiteza imbere cyane ko itwara ibikoresho by'ubwubatsi.

Imodoka iparitse muri parikingi hirya yayo hari ibiti binini, inyuma hari inzu y'umuhondo yubakishije amatafari, icyapa kigaragaza ubuvuza aho buri.

Inate ya magana igaragara imbere n'inyuma, abana bari kwiga bicaye, ingagi ziri mu birunga zituzanira mu amadovize, ba mukerarugendo bakinjira mu gihugu, bakaza gusura ibyiza bitatse u Rwanda.

Inote ya magana atanu igaragaza impande zombi imbere n'inyuma, handitseho amagambo ya banki nkuru y'urwanda ikiraro kirekire cyo hejuru abana batatu bicaye bari gukoresha mudasobwa.

Inote y'igihumbi igaragaza imbere n'inyuma, intore iri guhamiriza ifite ingabo yanditseho amagambo ya banki nkuru y'u Rwanda. isoko ryiza rya kijyambere, ingagi iri mu ishyamba.

Ni igicuba kinini cy'ubururu n'umweru bacururizamo amata, umukobwa wicaye yakira abamugana. Umugabo uhagaze wambaye ipantaro ya kake, umupira w'umukara, firigo imbere, akabati karimo amazi ya Nili, juice.

Umudamu wicaye, yambaye imyenda y'ibitenge, iruhande rwe hari igikombe kirimo icyayi, ikiyiko, afite terefone mu ntoki, firigo y'umutuku iriho icupa rya koka kola.

Umukobwa wicaye ku ntebe y'ubururu inyuma ye hari akabati karimo ibicuruzwa bitandukanye, amaji y'ubwoko bwose, imbere ye hari akabati, umuntu uhagaze wambaye ishati y'amabara atandukanye bigaragara ko yaje guhaha.

Ni inzu ikinguye irimo amakaro ubona ko bamennyemo amazi bari bukoropa, ku muryango haparitse igare, imbere yaho hari moto, hirya hari umunyegare uhetse igicuba cy'amata, umunyamaguru urimo kugenda, ibiti biri kuru, hirya,...

Inzu bashyizemo ikusanyirizo ry'amata menshi cyane, amata niy ingenzi ku mubiri wacu afite intungamubiri avamo amavuta yo kwisiga tukayarya, akora byinshi bitandukanye.

Umumama yicaye muri kantine afite amafaranga mu ntoki, ameza ariho igitambaro kiza, itasi yanywerewemo amata, isahani yaririweho, firigo iri iruhande rwe y'umutuku.

Akabati gahagaze karimo ibicuruzwa bitandukanye nk'amazi, amaji bigaragara yuko umuntu ashobora kwihangira umurimo agakoresha amafaranga make kandi akunguka agatera imbere.

Ni inzu icururizwamo amata y'inyange, hanze hari kandagira ukarabe, ameza y'umweru ariho intebe ebyiri umutaka wa buralirwa uriho intebe, urugi rukinguye bugaragaza aho bacururiza.

Ni iparato y'icyuma iteretse ku meza, ubona ko hariho sambusa bamaze guteka, ku ruhande hari izindi sambusa zirambitse, zitegerejwe gukorerwa ibizigenewe.

Umuhungu wicaye ku ntebe urimo useka, yambaye imyenda ya kake, hakurya ye hari icyuma cy'amata barimo kuvomera mu ijage, amata ni ingenzi kubuzima bwacu, avamo amavuta yo kwisiga afite intungamubiri.

Umudamu wambaye umupira w'umweru urimo gucuruza, umusatsi wa naturere imbere hari ameza ateretseho ubujerekani, yahurutete ntoya n'inini tuzi yuko amata ari ubuzima bwiza kubantu intungamubiri.

Igicuba kinini cy'amata ameza ateretse hasi umukobwa ufashe akabido ari kubuganizamo amata, mu kabirikira k'ubururu ijage y'icyatsi, umukiliya utegereje ko bamuhereza amata amaze kugura.

Inzu y'ubucuruzi harimo firigo y'umweru nini cyane, intebe y'ubururu, akabati karimo amasahani, amandazi, capati, amaterasi yo gushyiramo icyayi kugirango batange ibintu byiza kandi bishyushye.

Akabati gasize irangi ry'umweru karimo amazi ya Nili, amacupa maremare, anverope, inkongoro ziranga umuco wa hano iwacu mu Rwanda, bazikamiragamo amata, akaryoha cyane.

Ni indobo ubona ko iteretse hasi amandazi abiri, ikiyiko cyo kuyateruza, umufuniko uri hejuru wo gupfundikiza. Hirya urahabona agakuta gato gahinguka k'amatafari.

Abakobwa batatu bicaye ubona ko bari kuganira, umwe afite ikaramu n'igitabo mu ntoki ari kwandika, inyuma yabo hari idirishya rikinguye ririmo rido y'umutuku, imbere yabo hari icyapa kigaragaza ibiciro by'ibinyobwa.

Urupapuro rugaragaza ko wishyuye umusoro, twubake igihugu cyacu duteza imbere ibikorwa remezo, twubaka amashuri, imihanda, ndetse n'ibigo nderanbuzima.

Yicaye ku meza, afite imashini ebyiri; ibara amafaranga yinjije, yandika ibyo yinjije, ndetse akanamenya uko abibara.

Ni inzu igaragara idirishya rimwe, hanze hari ameza ateretse ariho intebe enye nziza cyane, agapangu gatoya kari iruhande rw'inzu hirya hari indi nzu.

NI inzu y'ubucuruzi ifunguye umuryango hagati harimo intebe z'amabara atandukanye ku ruhande hari akabati, matela, igitanda, amadiva meza.

Saro irimo intebe nziza cyane z'imisego ivanze, ineza iteretse ku itapi hasi, hejuru hariho ururabo, hirya hari ikivaze cyiza cyane, akabati.

Ni intebe ziteretse muri saro z'amabara meza, tapi hasi y'icyatsi, kuruhande hamaritse amarido meza cyane, insinga za tereviziyo

Umuntu yicaye inyuma y'intebe nziza cyane, ari kuri terefone avugana n'abakiriya baje kuzireba. Imisego myiza, ubururu bwiza butandukanye, ameza manini ndetse n' amatoya,...

N'ikibuga giteretsemo intebe nziza z'amadiva, zifite amabara atandukanye, icyatsi, umuhondo, umukara. Ameza ateretse hagati afite udutaburete tubiri, hirya hari ikigega cy'amazi, inkwi ziri ku ruhande igipangu cy'umukara.

Ahantu wicara ugafata icyo kunywa, heza, hatuje, imeza iteretse, intebe nziza zo kwicaraho, hateguye neza cyane. Umukobwa wambaye umwenda w'akazi, arimo areba abakiriya icyo bakeneye, kugira ngo abashyire. Indabo nziza.

Hoteri nziza cyane irimo abantu bayigendereye. Hanze hari pisine nziza cyane, iruhande rwa pisine hari tente iririmo intebe abantu baruhukiramo bategereje kujya koga cyangwa bavuyeyo, iruhande rwayo hari jaride nziza.

Imeza iriho igitambaro cy'umweru, amasahani, n'amakanya, ikirahure kirimo amazi, indabo ziteretseho nziza, intebe eshatu k'uruhande, hirya hariture, jaride nziza cyane ihakikije.

Icyumba kiza cyane giteye amabengeza, uburiri bushashe neza cyane, imisego myiza, kuvurure nziza, intebe iri inyuma y'uburiri, amatara y'urumuri rutuje, amarido meza cyane y'ubwoko bwiza.

Ni pisine nini cyane hirya hari robine ebyiri ziri kumwe n amazi kuruhande hari bingaro abantu bicaramo baruhukiramo bafata akayaga, hakuno hari ibiti byinshi cyane, etaje ndende.

Ni hoteri nziza cyane y' icyitegererezo. Irimo intebe nziza, yakira abatugana b'abanyamahanga bakinjiza amafaranga mu Rwanda.

Ni icyumba kibereye ijisho ryo kwiyakiriramo, amarido akinguye azinze neza, ameza ateguyeho udutambaro tw'umutuku, intebe nziza cyane, amakaro hasi, hari isuku kandi hameze neza.

Icyumba cyiza cyane kirimo amakaro, igitanda cyiza, kiriho amashuka, imisego, akabati ko kuruhande, intebe ebyiri zo kwicara wo uruhuka utegereje kuryama.

Inzu ifite igikoni cyiza cyane kibereye ijisho, nk' utubati dufite imiryango myiza igezweho, hejuru hateretseho ibinika yo gushyiramo icyayi ukinywera ibintu bishyushye ntakibazo aho gushyuhiriza ibiryo.

Amagambo yanditse manini yamamaza amazu ya hano iwacu mu Rwanda, agezweho waruhukiramo ukabamo, jaride kuruhande nziza cyane, ibiti birebire bishinze.

Ibyatsi byinshi biteye mu rugo, umuzenguruko waho ushinzemo utwuma, ameza ariho intebe, indabo nziza cyane zifite amabara atandukanye, zidufasha mu buzima bwacu, impumuro nziza, zibereye ijisho.

Etaje nziza cyane yubakishije ibirahuri mbere kumpande amatafari ahiye, imbere hari umunyamaguru uyigana ashakayo serivisi parikingi hanze mu muhanda hari umumotari utwaye umugenzi.

Inzu icanyeho itara hanze ifite amadirishya atatu, imiryango ibiri, hanze hari parikingi, i ruhande hari ibiti bikikije, hari icyapa kiriho kigaragaza ubwishingizi ikoresha.

Ni abagabo babiri bahagaze ubona ko bahanze amaso ibyo bari kubasobanurira, imbere yabo hari umugabo wamabye baji, ishati y'umweru, ameza ateretse ariho igitambaro cy'umweru n'icyatsi, ururabo rwiza ruteretseho.

Sale y'inama irimo abantu bicaye, bishimye kubera ibiganiro babagejejeho. Ameza ateretseho amazi yo kunywa...

Ni abantu babiri ubona ko bari muri banki, umugabo afite bike arimo gusinya ubona ko ari kubikuza amafaranga hubakishije ibirahure.

Umukobwa uhagaze mu muryango wasetse afite igikapu mu ntoki, ijire y'akazi , ingofero, ipantaro y'injingisi, ishati y'amaboko maremare inyuma ye hari imashini y'ubwubatsi, inzu bari kubaka, hirya hari etaje ndende

Abadamu bahagaze bambaye neza imyenda y’ubururu n’umweru, imipira y’ umutuku bigaragara ko batinyutse. Bagiye muri banki, babitsa, bakabikuza ari abadamu bashiritse ubwoba, ntabazo bagifite.

Umukobwa mwiza cyane wicaye yambaye ishati y'umweru urunigi mu ijosi umusatsi mwiza terefone mu ntoki arimo guhamagara igitabo kiri imbere ye ari kwandikamo arimo kudushishikariza kwiteza imbere tugana amabanki akatuguriza.

Ni abagao batatu bari mu isoko ricuruza imideli y'inaha iwacu mu Rwanda, ameza, ariho igitambaro, igiseke, inkongoro.

Umudamu wicaye ubona ko yumiwe yifashe ku itama, ateze agatambaro k'umweru n'umukara, ibicuruzwa bimukikije bitandukanye, ibishyimbo, imyembe, inyanya, indimu, igihaza;

Abadamu babiri bahagaze mu isoko bari gukora mu mbuto bambaye neza, imbere yabo hari etajeri zipanzemo imbuto zitandukanye: Imineke, Amaronji, Ibinyomoro, Pomme, Imyembe, Inanasi.

Abantu benshi bahagaze mu isoko, ubona ko bafite ibicuruzwa bitandukanye; urusenda, inyanya, amaronji, hirya hari umutaka umanitse uhagazemo umugabo,...

Abantu bari mu isoko rinini cyane ririmo ibicuruzwa bitandukanye. umudamu wambaye umwenda w'umweru n'umukara, ingofero yumukara, imbere ye hari inkoko iriho ibishyimbo, amashaza, ibitunguru, inyanya.

Abadamu babiri bahagaze mu isoko, bari kurebana, bigaragare ko hari icyo bari kuvugana. Ibitaro ba mu mutwe imbere yabo hari amagi menshi cyane apanze neza bigaragara ko bari kuyacuruza bitinyutse, bihangiye imirimo banze guheranwa n'ubukene.

Imboga z'amoko yose ziri mutubogisi dutandukanye; urusenda, ikibiringanya, inyanya, kokombule, shifureri. Tuzi ko imboga ari ingirakamaro ku buzima bwacu, harimo amavitamine menshi atandukanye.

Abadamu bicaye bari gucuruza, bahanze amaso uje abagana, ufite ibase mu ntoki irimo ibicuruzwa arimo kumubwira igiciro yifuza ko baguriraho, imineke, avoka, umukecuru uhagaze afite agafuka mu ntoki...

Umudamu uri mu isoko ucuruza ibintu bitandukanye imbere hari amabase atatu ipurato iriho ibirayi, inyuma ye hari abantu barimo kugurisha imyenda.

Isoko risakaje amabati, inkingi z'ibyuma harimo abantu benshi bicaye, abahagaze, ibicuruzwa bitandukanye; bitunguru, karoti, ibitoki, inyanya icyapa cya Emutiyeni kihamanitse.

Isoko rinini cyane ricuruza ibiribwa bitandukanye abantu bicaye ubona ko bategereje ababagana ngo babagurire, bafite ibintu bitandukanye inyanya, ibitunguru, intoryi, ibitoki baranezerewe.

Abantu bari mu isoko bari gucuruza. Umukobwa ahereza umukiriya ibyo yaguze. Yambaye umupira w’ umutuku afite akamashini atanga inyemezabwishu bw’ibyo yacuruje. Imyumbati, amarongi

Umudamu ukenyeye yambaye umupira w'amabara, ari mu isoko arimo gucuruza, twese abadamu duharanira kwitinyuka twiteza imbere, twirinda kuguma mu rugo ngo uheranwe n'ubukene.

Umumama wicaye ateruye umwana, inyuma ye hari abantu benshi bari mu isoko, ibicuruzwa bitandukanye: inyanya, puwavuro, ibitunguru, umunzani uteretse ku meza,...

Abantu bari mu isoko umudamu wicaye ubona ko ategereje abakiriya bamugana yambaye umwitandiro w'ubururu ku muryango hari intebe ya sheze imbere yayo hari igisheke gihagaze.

Amarembo ariho icyapa avuga ibijyanye n'ibikorerwa aho, ahantu handitseho igororero rya Rwamagana aho bajyana abantu bafite imico itari myiza, kugira ngo bagororwe bagire imico myiza.

Mu kibuga ni ho abantu bidagadurira, bashobora gukiniramo imikino itandukanye, waba uw'amaguru, uw'amaboko ndetse n'iyindi, ibiti iyo biteye bicucitse bigira akamaro kanini cyane, bishobora gukurura imvura, ikindi kandi byavamo n'inkwi ndetse n'amakara.

Abadamu bicaye barimo gucuruza ibirayi mu isoko, biri mu mufuka, imbere yabo hari umuguzi uteze amvirope bari gusukiramo ibyo yahashye tuzi ko ibirayo ari ingenzi mu buzima bitera imbaraga.

inzu nini cyane yumuturirwa ifite korutire yubururu yamabati hanze kumuhanda haparitse imodoka nyishi moto icyapa kiyobora abantu, jaride..

Ishusho igaragaza ibiro biberamo, ibiro biberamo ihererekanya, ibiro birafunguye imbere yabyo hari umuntu usa nuri gusohokamo biseze amabara y'icyapa cyerekana kiri mu mabara y'umuhondo.

Isoko rinini cyane ririmo, abaguzi ,abacuruzi ,harimo ibiribwa bitandukanye by'amoko yose, ibitoki byinshi cyane, bidufasha nko kurya neza ukumva unyuzwe bitunga umubiri....

Inzu nziza cyane y'amagorofa ane, hejuru hariho antene z'ikoranabuhanga, hanze hari abantu benshi cyane bategereje kujya guhahiramo, abamotari nabo baratanga serivisi zo gutwara abantu.

Abacuruzi bicaye bategereje ababagana ibintu byiza bibereye amaso inkoni za Kinyarwanda, i ruhande hari agatebe ka Kinyarwanda, ibiseke, ibikapu.

Isoko rinini rya kijyambere imbere yaryo hari abantu benshi abahagaze, abateye intambwe, ku ruhande hari imodoka irimo karoti bari gupakurura, hirya hari umuntu wambaye ishati y'umuhondo abakarani ubona ko bari gupakurura imodoka.

Ni iduka ricururizwamo imideli itandukanye, imyenda ikorerwa inaha iwacu mu Rwanda, uduseke twiza dutandukanye tw'amabara meza, ibishushanyo by'ubwoko bwose.

Umumama wunamye atagaragara neza imbere ye hari ibase amashaza agatebo hasi hari igikapu ari gutunga urutoki karimo inyanya imineke ubunyobwa.

Abantu bari mu isoko ry'ubucuruzi butandukanye, umusore uri kuri terefoni, hari ibicuruzwa by'imitako ya hano iwacu mu Rwanda, ibitenge byiza cyane, umuntu wambaye igitenge araberwa kandi akagaragara neza.

Umukobwa wunamye uri gucuruza imineke ukenyeye igitenge wambaye agapfukamunwa, i ruhande rwe hari umukarane uhagaze undi wikoreye imizigo, inyuma hari umudamu ufite isakoshi y'umutuku, ku ruhande hari daso yampaye imyenda y'icyatsi n'umupolisi na we wambaye agapfukamunwa.

Isoko rinini riciriritse ririmo abaturage bicaye imbere y'ibicuruzwa byabo, badanditse inyanya, ibitunguru, amashu, karoti, urabona ko rwose bategereje ababagurira.

Bicaye mu isoko bari gucuruza ibicuruzwa bitandukanye, bafite umutakabitwikiriye, kugira ngo izuba ritabica, imbere yabo hari abaguzi barimo guhaha ibitandukanye, inyanya, ibitunguru, amashu, karoti, kugira ngo bajye guteka indyo yuzuye.

Intebe yo kwegamaho y'imifariso imwe n'indi iri hakurya nini irimo imifariso hasi harimo amakaro n'akantu kari imbere bararambika utuntu na kizimyamuriro iri inyuma ebyiri ahantu hameze neza.

Etaje nini iriho icyapa cya emutiyeni, igiti kinini imbere, ku ruhande hari imitaka ibiri uwa eyateri n'uwa tigo, ihagazemo abantu, imbere hari ifoto y'amashanyarazi, hirya hari imodoka nyinshi ziparitse.

Ni abantu bari mu isoko ubona ko risakaje amabati ashaje cyane, imbere harimo uduti bateyeho bamanikaho imyenda yo kugurisha, hirya yaho hari itaje ubona isa neza.

Abantu babiri bahagaze imbere y'akazu ka Emutiyeni, bahuje ibiganiro bishimye. Umugabo afite telefone mu ntoki yambaye umupira w'icyatsi, ingofero mu mutwe, barimo baramubwira uko yabitsa akabikuza, akirinda ubujura bwa hato na hato bw'amafaranga

Ni inzu y'umuhondo n'ubururu iri mu cyapa cya emutiyeni, abagabo bahagaze imbere yaho ubona ko barigushaka kubitsa no kubikuza, mu muryango hari umudamu wambaye itaburiya y'ubururu, hanze hateretse itabureti isize irange ry'umweru.

Abantu babiri bahagaze mu mutaka wa MTN umugabo wambaye umupira w'umutuku bigaragaza ko ari kubikuza amafaranga hirya hicaye abandi inyuma hari ibiti byi...

Abantu benshi bari mu isoko, bahaha ibicuruzwa bitandukanye, hari mashine yo kwandikamo ibyo bahashye kugirango babahe inyemezabwishyu, hari icyapa cya MTN kiriho imibare ya kode kugirango babashe kwishyuriraho.

Abagabo babiri basuhuzanyije bishimye bakoranye mu biganza, bambaye imyenda y'umuhondo amapantaro, inyuma yabo hari umutaka wa MTN, bigaragara ko bari gutsindira ibihembo byateganyirijwe abatomboye.

Abagabo babiri bahagaze bari kuganira umwe ateze amatwi undi imbere hari akazu bariho bacuruzaho amayinite bakabitsa bakabikuza. tugire umuco wo kudatunga amafaranga mu mufuka dukoreshe kubitsa no kubikuza ku matelefoni.

Ni tete nziza cyane yicayemo abakobwa babiri, handitseho amagambo adushushikariza kwishyura dukoresheje tetefone. Mu by'ukuri kwishyura dukoresheje terefone ni byiza nta muntu wakwiba amafaranga agukoze mu mufuka, igihe cyose bakwibye terefone uragenda amafaranga yawe ukayasangaho.

Ahetse igikapu agemuriye abantu ibyo baba bamutumye, ahagaze kumuhanda uriho icyapa kinini, iruhande rwaho hari ipoto y'amashanyarazi, indabo nyinshi cyane.

Moto enye ziparitse abamotari bicayeho batanga serivisi zo gushyira abantu ibiribwa bitandukanye mu ngo zabo twihangire imirimo dukoresha ikoranabuhanga kugira ngo tubashe kugurisha .

Ni abakoze benshi bo muruganda bambaye umwenda w'akazi ingofero mu mutwe, imbere yabo hari umunzani bigaragara ko barigupima ibiro, kuruhande hari aba box bari gushiramo ibitoki.

Umugabo wambaye ipantaro y'umuka, umupira w'umuhondo yicaye kuri moto, arimo aragaragaza ko yihangiye imirimo, ashobora kukugezaho ibintu bitandukanye utiriwe uvunika ujya ku isoko. Tugerageza kwihangira imirimo.

Umugabo ufungura igisanduku cya moto akora ubucuruzi bwihuse ashira abantu batandukanye yambaye supuresi zumweru kasike mu mutwe ahagaze mu muhanda w'amabuye.

Moto iparitse igemurira abantu ibicuruzwa mu ngo umugabo uhagaze wambaye ishati y' icyatsi afite amvilope mu ntoki irimo karoti avoka, ibitunguru, amavuta arishimye ko ageza serivse ku bantu bose.

Inzu nziza cyane, igisenge kigezweho kibereye ijisho, ifite korotire isize irangi ry'umweru n'umukara, urugi rwiza bakingura bakuruye ubona ko ari urusirimu rwose.

Ni inzu ikodeshwa nziza irimo intebe z'amadiva tapi hasi ameza y'umukara, itara ryiza ribereye ijisho, amarido akoze mu buryo bwiza cyane.

Ni saro nziza cyane iteretsemo intebe z'amadiva z'amabara y'ubururu ameza ateretse ku itapi, inyuma yayo hari saramanje ku ruhande hari amarido akinguye.

Icyumba kiza kirimo igitanda gishasheho amashuka, kuvurori, udusego twiza tw'umweru. Hirya hari vandarateri itangamo umuyaga hirya hari itara ricana, gakeya akabati ku ruhande.

Ni saro nziza irimo intebe y'umweru, udusego tw'umuhondo n'icyatsi, amakaro hasi, tapi nziza, umuzungu uhagaze ari kwerekana ubwiza bwaho, hirya hari akabati gateretseho ibintu, itara ryiza heju.

Inzu nziza cyane ifite imbere heza itara rigezweho, hasi hari amakaro menshi utubaraza, hirya hari urugo ruzengurutse, indabo ziteye zibereye ijisho, urugi runini rwo gukingura binjiriraho.

Inzu nziza cyane ifite urugo rw'amatafari ahiye, imbere hayo ni heza cyane aho kwicara ushaka kumva akayaga, indabo zizengurutse nziza kandi ziteye mu buryo butandukanye.

Ni igikoni cyiza cyane kirimo ubwongere ubwongerezo, amazi meza cyane akabati kamanitse ko gushyiramo amasahani bakoresheje amasafuriya ibiyiko.

Barimo baratwereka umuntu uri mu nzu, arimo arabuganiza amata, hirya yiwe kuko arimo arayabuganiriza mu majaga ateretse ku meza, hari n'agacupa kameze nk'aho kavuyemo aka ji hanyuma hanze y'iyo nyubako hari umuntu umugabo wambaye ingofero, urimo aratumbira cyane uyu muntu urimo imbere ashobore kuba ari uwo agiye guha amata hanyuma hirya yaho hari akadomoro nako kahateretse.

Ni ubutaka bunini cyane bwagenewe kubakwamo, urugo ruzengurutse rwubakishije amatafari ahiye, umugabo uhagaze wambaye imyenda y'akazi arimo arahererekana ababwira ko ari heza kandi hagurishwa amafaranga makeya.

Inzu y'amacumbi yo kuruhukiramo irimo icyumba cyiza cyane, igitanda gishashe neza, amashuka meza, kuvururi, ku ruhande hari akabati ko kubikamo utuntu twawifashisha tuzi neza yuko iyo uryamye neza usinzira neza ukaruhuka.

Umugabo ubona ko ari kugenda mu nzu yambaye ipantaro y'injingisi, ishati y'umweru, iruhande rwe hari ameza ateretseho intebe, hirya hari ururabo ruri mu ivaze, imbere hari amasikariye maremare.

Inzu nziza igurishwa isize amarangi anogeye amaso y'ubururu n'umweru kuri salo imbere hasize umuhondo amadirishya akinguye umuryango wa dubure hanze hari amapave.

Inzu batarasoza kubaka, umuntu hejuru urimo kuyisakara n'amabati ,amadirishya arangaye, imiryango irangaye , umusore uri imbere wambaye umupira w'umutuku bigaragara ko ari kureba uko bari kuyikora.

Inzu yubatse mu kibanza kinini cyane isize irangi ry'ubururu amabati y'umutuku hashashemo amatafari mu kibuga cyaho hateye n' indabo nyinshi kandi nziza.

Ibipangu bibiri bifite kolutile zitandukanye biteganye amazu meza yibisenge byiza bigezweho jaride kumpande agahanda k'amabuye hagati imbere hari amapoto y'amashanyarazi.

Inzu nziza cyane igurishwa hanze ishashi mo amapave, ifite amadirishya meza cyane umuryango wa dubure, urugo rwayo ruzengurutswe n'amatafari ahiye.

Inzu nziza cyane ifite ishashi hasi amatafari, ifite urugo rurerure ruriho amatafari ahiye, kuri salo hari akabaraza keza cyane gateyeho indabo z'ubwoko bwose igaragara ko ari inzu rwose ibereye ijisho.

Ni inzu nziza ikinguye imbere yayo hari igipangu gifite porutaye y'icyatsi urugo rusize irange ry'umweru n'umukara, ikigega mu rugo.

Abamama bari mu isoko barimo guhaha bambaye agapfukamunwa , utugare bacunga turimo ibintu bahashye, etajeri zirimo ibintu, abantu benshi bari inyuma.

Abantu bari mu isoko rya kijyambere, hasi hari imitaka itatu ya kokakola ishinze ku meza, hirya hari utuzu dutwikiriye bacururizamo isambusa.

Abakobwa babiri bahagaze mu iduka batanga serivise z'ubucuruzi udupfuka munwa birinda icyabahumanya ibirayi byiza, amafuta meza, ibintu byinshi bitandukanye inyama.

Abamama babiri bari mu isoko barimo guhaha inkweto imbere yabo hari umusore uhagaze bigaragara ko yitegereza ibyo bari guhitamo ngo ababwire ibiciro, isoko rinini cyane ririmo imikandara, amasakoshi n'ibindi bicuruzwa bitandukanye by'ingenzi.

Umukobwa uhagaze muri Alemantasiyo. Nini nziza yambaye ishati irimo amabara ipanaro ya jinisi umusatsi mwiza ahagaze imbere ya etegele irimo ibyo kunywa bitandukanye harimo ji, amazi, inzoga, ibintu byinshi bitandukanye birimo.

Ni isoko rinini ririmo abantu benshi baje gushaka ibyo bakeneye hari amasakoshi meza y'amabara atandukanye n'inkweto z'ubwoko bwose.

Inzu icururizwamo imitako myiza cyane kandi y'amoko yose, ikorerwa hano iwacu mu Rwanda, igaragara ko dushobora kwihangira imirimo dukora ubukorikori butandukanye, umudamu uhagaze witinyutse wihangiye imirimo,

Umukobwa uri muri supamaketi uri gusunika akagare ko guhahiramo yambaye inkweto za sipurese, ipantaro y'umukara ishati irimo amabara ahetse igikapu mu mugongo hirya hari etajeri irimo ibicuruzwa bitandukanye.

Abantu batatu bari mu iduka. Umudamu uhagaze imbere ya etageri y' inkweto nyinshi, yambaye umupira w'amaboko maremare, ipantaro y'ijinkisi arabaza ibiciro. Hakurya hari etageri zimanitsemo amasakoshi y'ubwoko butandukanye imikandara,...

Abantu benshi bari mu isoko bahagaze bitegereza ibicuruzwa byose abari kugurisha ibicuruzwa by'amoko menshi inyanya, ibirayi ,ibitunguru n'isoko ryiza ry'icyitegererezo.

Abagabo babiri batanga serivisi zubuvuzi umugabo uhagaze bari kwandika imyirondoro ye, kuruhande hari umudamu ukeneye igitenge wambaye igitambaro mu mutwe, inyuma hari abandi bategereje serivise ziribubakorerwe.

Umwana uri kucyapa bigaragara ko ari kwamamaza. Nk'abanyarwanda tubigire umuco twese kuzigamira abana bacu, kugirango bazagire ejo heza hazaza, bibafasha mukwiga bakabaho neza ntakibazo bafite.

Umubyeyi utuje ahagaze aho batangira serivisi z'ubuvuzi arasobanurira abo asanze uburwayi afite, umuganga uri inyuma uje kumwakirana na yombi inyuma ye hari amafishi menshi y'abarwaye.

Ni inzu ndende itangaje yubakishije ibirahuri byinshi, imbere hari idarapo ry'igihugu ku ruhande hari icyapa kigaragaza ubwishingizi bw'ubuvuzi; jaride nziza cyane ihazengurutse.

Umukobwa wicaye muri biro imbere ye hari ameza ariho ibitabo mashine yambaye ibaji mu ijosi ishati y'umutuku. Umudamu uhagaze ari kumwereka mituweli, amwereka afite ubwishingane bwo kwivuza, mituweli ni ingenzi mu buzima.

Umusore uhagaze wambaye ishati ya karokaro, agapfukamunwa, afite sheke mu ntoki igaragaza ko yatsindiye amafaranga miliyoni imwe n'ibihumbi magana abiri mirongo itanu, ku ruhande rwe hari umuntu utagaragara neza, inyuma hari itente iparitsemo imodoka,...

N'udukarita tubiri twa mituweri dufashwe n'ikiganza, bigaragara ko ari kwerekana ko ari ngombwa ko tugomba kwishyura ubwisungane mu kwivuza. Imbere ye hari intebe iteretse hasi, tubigire umuco wo kutanga mituweri kugirango tubashe kuvuza imiryango yacu two kuzahura n'ikibazo gikomeye.

Imihanda ibiri y'ibyerekezo bitandukanye, imodoka ziri gukora urugendo ,hagati hari jaride igabanya iyo mihanda ,amatara menshi yo kuruhande amurikira abantu kugirango bagende hasa neza hasusurutse hakurya hari etage ndende.

Umudamu wicaye uri kwa muganga yambaye ibitenge imbere hari abaganga babiri umwe yandika mu gitabo, umubaza uko arwaye ameza.

Ni abantu benshi ubona ko bicaye kwa muganga bategereje kwivuza, amafishi yabo mu ntoki bahanze amaso bategereje ko babahamagara bagahabwa serivise z'ubuvuzi bw'ibanze.

Ni umukecuru ukuze uhagaze mu iduka, umukobwa wicaye ari kumubarira ibicuruzwa yahashye, amukorera fagitire, hirya ye hari etajeri zimanitsemo ibintu byinshi bitandukanye.

Ukoresheje ikorana buhanga byagutabara nyamara igihe utashye wibereye mu rugo ukabona nk’ agapantaro ukabura uko ukagura wenda kujya k’isoko ushobora kukwereka umuntu agahita akubwira kagurira aha n'aha ugahita ukakishyura agahita kakuzanira rwose.

Umukobwa muto cyane ufite imisatsi myiza ari mu iduka ryo guhahiramo, afite agapaniye mu ntoki agenda afata ibyo yifuza ashyiramo kugira ngo abone uko abitwara. Puwavuro, kokombure,...

Ni inzu icururizwamo ibintu byinshi cyane umukobwa wambaye ikabutura y'umukara umupira w'umweru afite akagare mu ntoki ko gushyiramo ibyo yahashye kugirango bimworohere ye kugenda abifashe mu ntoki inyuma ye hari abantu bafite telefone bagenda bafotora ibicuruzwa binyuranye ari guhaha .

Inzu nini cyane bacururizamo, harimo ibintu bitandukanye kandi by'amoko yose, byiza bibereye ijisho. Abantu bicaye bategereje ababagana baje guhaha. Harimo amabiswi, amasabune.

Ni inzu icururizwamo y'amakaro, ikiganza kigaragaza iciruruzwa cyamamaza, inzara zisize verine, etajeri irimo ibicuruzwa bitandukanye, makaroni na biswi.

Iduka ricururizwamo ibintu byinshi umudamu uhagaze atari mu umufuka w'umuceri imbere ye hari agatebo agenda ahaha ashyiramo ibintu byinshi bitandukanye bikamufasha kutagenda ateruye ngo avunike.

Ihahiro rinini cyane ribereye amaso ririmo ibicuruzwa byinshi, umugabo uhagaze bigaragara ko ari gucuruza, etajeri zirimo ibintu, inyanya, amashokora, ibintu byinshi by'ubwoko bwose.